Ikigo cy'ishuri gifite amashuri yubakishije amatafari, inzugi z'ubururu, ndetse ayo mashuri yegereye ishyamba. Imbere hari ikibuga kinini bisa n'aho abanyeshuri aricyo bakiniramo.

Abanyeshuri bo muri segonderi b'abakobwa babiri bafite bari muri laboratwari ya shimi ,ibinyabutabire ,bafite n'amacupa arimo ibisukika by'ibinyabutabire mbese barimo barabyigaho.

Abanyeshuri bari gusudira， bari gusudira ibyuma bifashishije ibikoresho byabugenewe， kwihangira umurimo ni byiza ni kimwe mu ngamba z'iterambere u Rwanda rwafashe， ku rubyiruko ni ingenzi cyane.

Abanyeshuri bari kwiga ku gikoresho bakoresha muri tekinike mu ruganda, biga ibijyanye n'inganda n'ibikoresho byazo. Bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'ingofero z'umuhondo zibarinda umutwe.

Abanyeshuri bari kwiga uburyo bakora amavuta bari kubyerekwa na mwarimu, ari kubereka uburyo bayakora abanyeshuri biganjemo abasore n'abakobwa. Kwigana ibyiza bituma ujijuka kandi ugakora ugakura amaboko mu mifuka.

Iri shuri ry'umuziki ririmo mwarimu n'abanyeshuri, umunyeshuri umwe afite gitari, undi afite sembari, ndetse hirya hari ibikoresho. Ibyo bikoresho bicometse ku mashanyarazi, byose bikoreshwa n'amashanyarazi.

Icyumba abanyeshuri bigiramo ikoranabuhanga bifashishije mudasobwa, iki cyumba kirimo abarimu babiri bambaye udupfukamunwa, kandi buri ntebe hagiye harimo mudasobwa n'intebe ku meza, ku buryo buri wese, buri munyeshuri aba ari gukoresha mudasobwa ye.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ibidukikije by'amashyamba bifotoreje imbere y'ikirango cy'ingagi kigaragaza ko ari mu birunga ahantu rwose ni heza kuko hari kilima nziza kandi ntihari mu byiza nyaburanga by'u rwanda.

Abanyeshuri bari gukora ikizamini, abanyeshuri ni abo muri segonderi, bigaragarako bari gukora ikizamini gisoza icyiciro barimo. Buri wese yicaye wenyine ku ntebe ye, mbese afite n'ikiboroshile imbere ye.

Abantu biganjemo abadamu barishimye，bafite impamyabumenyi bahawe， basoje kwiga ibintu bitandukanye， barishimye， bari kugaragaza buri wese icyo yatsindiye yahawe.

Abanyeshuri bari kwiga umuziki, bafite ibikoresho by'umuziki, nka sembari, igitari, ni batatu, hari abarimu babiri babari imbere, barimo barabigisha kuwukoresha no gukoresha ibyo byuma by'umuziki ugezweho.

Abanyeshuri bari kwiga gushushanya. Buri wese afite uko ashushanyisha batatu nibo bafite ibyo bashushanyisha; abandi barahagaze bari kureba uko bashushanya. Bambaye iniforume ku kigo cyabo bigaho.

Abanyeshuri ba segonderi bisa naho bakiri bato higanjemo abakobwa, n'abahungu bafite udutabo bari kugaragaza imbere y'ishuri ryabo bigiragamo. Kwiga ni byiza rwose bituma umuntu ajijuka agakurana ubwenge.

Umudamu ari kudoda ari muri atoliye y'ubudozi, harimo imashini zitandukanye, hano iyo ufite umwenda ni ho uwujyana bakawukudodera, cyangwa ufite igitambaro bakagikoramo umwenda ushaka uteye uko ukeneye.

Ishuri ryigisha kudoda inkweto, higanjemo abakobwa n’abagore bari kwiga uburyo badoda inkweto cyangwa bakora inkweto z’abagabo. Umuzungu ni we mwarimu wabo, arimo arabereka uburyo bazikora neza.

Umunyeshuri wiga gusudira afite ibikoresho ayigiraho arimo arasudira akuma k'icyatsi kibisi, kwiga ni byiza kuko bituma urubyiruko rwiteza imbere rugakora.